Umwicungo w'abana uri mu mabara y'umutuku n'umuhondo hariho abana batatu bari gukiniraho, umwe yamanutse abandi babiri baracyari hejuru bategereje ko agera hepfo na bo bakamanuka.

Amashusho atandukanye harimo indabo, igitiyo, ifi, inyenyeri n'utundi dupupe birambitse ku meza byo kwereka abana b'inshuke bakabikinisha.

Akaboko k'umuntu kariho tatuwaje y'imitwe y'abana babiri, harimo umukara n'inzobe karambitse ku meza.

Ibikoresho byifashishwa muri matematiko harimo irate, takereyo, goma n'ibindi bitandukanye birambitse ku meza.

Ishusho enye, iya mbere iriho abantu babiri bari kumwe n'akana, indi iriho ikigo cy'amashuri kiri kugendamo abantu, indi iriho umubyeyi w'umumama uri kuganiriza abana babiri umukobwa n'umuhungu, indi irimo umuntu wagaraduwetinze uri kwifotoza.

Urubyiruko rw'abanyeshuri ba secondaire bambaye imipira y'ubururu, harimo n'umwe wambaye umuhondo, abandi bambaye amashati y'umweru y'iniformo, bari kugenda mu muhanda w'igitaka.

Abanyeshuri ba Secondaire bahagaze mu ishuri. Barimo abakobwa n'abahungu. Bamwe bambaye imipira y'ishuri abandi bambaye amashati. Harimo n'umwe wambaye umupira utari uw'ishuri.

Korali y'abanyeshuri ba seconnderi ,harimo umwe ufite mikoro uri kubaterera indirimbo, ku ruhande hari abayobozi baje kubafasha, bose bahagaze mu nyubako imwe bari gufata ifoto.

Abanyeshuri ba secondaire bari mu ishuri rimwe ari benshi, hari n'abicaye hamwe ku meza, harimo uwambaye umupira abandi bambaye amashati, ari kubereka akantu yakoze mu mbaho.

Ihuriro ry'abantu benshi baje gutanga amaraso, harimo umukobwa uhagaze imbere y'abaganga be, barikumzureza ku ifishi kugira ngo age aho atangira amaraso.

Ibibumbano bikoza udupupe tw'abana, bibumbye mu itaka risanzwe, biteretse ku isima, inyuma yabyo hari imbaho babibumbiraho.

Ikibumbano cy'umuntu gitetse ku meza, cyamenetse guhera mu mutwe no mu gahanga cyaramenaguritse, gitwikirijeho umufuka ku ruhande ariko ibice by'amaso biragaragara.

Abanyeshuri ba UR bagaraduwetinze, bafite ishusho mu ntoki bari gusoma. Bose bamanitse akaboko bari kuyireba abandi barangaye imbere.

Inama yahuje urubyiruko rw'igitsinagore n'igitsinagabo, bafite abayobozi bari kubigisha ,buriwese afite amazi ari kunywa, bari mu nyubako ya kaminuza.